Abantu bitabiriye inama, bicaye mu nyubako iberamo inama, bose bateze amatwi, harimo umugabo wambaye ishati y'umukara, imbere ye hateretseho agacupa k'amazi, hari kandi n'umugore wambaye ikanzu y'ubururu, imbere ye hateretseho akabage kandi yambaye n'amadarubindi.

Aba mama babiri bameze nk'abayoboye inama umwe yambaye umukenyero undi afite amadarubindi ndetse n'igikoresho bifashisha bavuga kugira ngo barangurure byumvikane, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo agira ati "bikoreye mu isibo".

Inama yitabiriwe n'abantu mu nzego zitandukanye, umugore umwe niwe uhagaze ari kuganiriza abitabiriye inama. Muri iyi nama abantu meza bicayeho igiye iriho amazi yo kunywa, ndetse harimo n'ufite ikaramu. Ni byiza ko n'abagore n'abo bayobora.

abantu bizihiwe bari bitabiriye inama, barishimye bisa n'aho inama irangiye kuko bose bishimye cyane, harimo umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'ikoboyi ufite isaha ndetse harimo n'abandi bafite imitaka.

Abantu batatu, babiri baricaye, imbere yabo hahagaze umugore, wambaye amadarubindi mu maso ndetse n'ikanzu y'umutuku, afite n'isaha ku kuboko, afite akuma kifashishwa bavuga kugira ngo bumvikane ku bantu benshi, bitewe n'abantu bitabiriye inama uko bangana, ni umutegarugori mwiza.

Abantu benshi cyane bicaye, bitabiriye inama. Harimo umwe uhagaze ufite akuma, kifashishwa bavuga kugira ngo ni hifashishwa indangururamajwi, uwo muntu aze kumvikana, asa n'urimo gutanga igitekerezo.

Umugabo mwiza cyane ubereye u Rwanda no kuyobora, ahagaze wenyine ariko bisa n'aho hari abantu ari kubwira, ari mu nyubako afite akuma kifashishwa bavuga igihe umuntu aba ayoboye imbaga nyamwinshi.

Abantu batandukanye bitabiriye inama bayobowe n'umugore uhagaze imbere yabo ahantu bateguye ku ruvugiro, iyi nama yitabiriwe n'abapolisi ndetse n'abandi bantu batandukanye, aha hantu bari hari amabara agize Idarapo ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abantu benshi cyane bari mu nama, bari kwiga ku bibazo bitandukanye, aba bantu kandi bambaye imyenda itandukanye yiganjemo iy'amabara y'umweru, umukara cyane cyane ndetse nta n'umwe muri bo wambaye ingofero, imbere yabo hari icupa rimwe ririmo amazi ni byizayiza kwitabira inama.

Inama yitabiriwe n'abantu batandukanye muri bo harimo umugabo umwe ufite akanigi ku kuboko ndetse n'akantu kifashishwa umuntu avuga ngo yumvikane hifashishijwe indangururamajwi arimo ageza ku bantu ikiganiro cyangwa se ikibazo afite, ni mu nama.

Abantu benshi bitabiriye inama harimo kandi n'abantu b'urubyiruko, harimo umuntu umwe wambaye ishati y'ubururu n'undi wambaye ishati y'umweru, ndetse harimo n'abambaye amakositimu. Ni byiza ko twitabira inama ngo twunguke byinshi.

Abantu bitabiriye inama batandukanye, ni benshi cyane, bamwe baricaye abandi barahagaze, ni abagabo abagore n'urubyiruko, imbere yabo ku meza aho bicaye, hari ibyo kunywa, bateze amatwi.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugore yambaye amadarubindi afite ikaramu mu ntoki ndetse n'ikaye imbere ye, ari kwandikamo ibyo bari kuganira mu nama, imbere yabo bombi bafite amacupa arimo amazi kuko inama barimo ishobora kuza gutinda.

Abantu batandukanye bitabiriye inama, uko bigaragara bose bafite amakaramu bari kwandika cyane cyane abicaye imbere nibo bigaragara neza, imbere yabo kandi hari amacupa y'amazi n'intebe utamenya niba zicayeho abantu.

Abantu bitabiriye inama harimo umumama wambaye amadarubindi meza cyane yambaye kandi n'ikanzu y'umutuku, ku ruhande rwe hari umuntu bigaragara ko yambaye umwenda uranga igisirikare ubwo ni umusirikare, inyuma yabo hari amacupa arimo ibinyobwa kuko inama ishobora kuza gutinda umuntu akaba yagira inyota akitabaza ibyo binyobwa kugira ngo inyota itamwica.

Abantu basoje inama, harimo abayobozi n'abayoborwa, bari bayikoreye mu nzu mberabyombi nziza cyane, ku kumurongo w'imbere hari umugabo wambaye amadarubindi y'umukara ndetse n'umugore wambaye ibitenge ndetse afite akantu k'umukara mu ntoki, hariho n'umuhungu wambaye umupira wanditseho makumyabiri na gatanu n'andi magambo w'umweru.

Abagabo babiri umugabo umwe aricaye undi arahagaze, afite akuma kifashishwa umuntu avuga hafashishwa insakazamajwi kugira ngo amajwi agere ku bantu benshi, uwicaye yambaye amadarubindi n'ishati y'ubururu, icyumba barimo harimo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Abantu bitabiriye inama bari mu nzego zitandukanye harimo abapapa ndetse n'abamama. Mu bitabiriye iyi nama harimo umusirikare umwe ndetse n'abapolisi babiri. Ni byiza kwitabira inama kuko bifasha mu buzima. Aba bose basa naho bateze amatwi uyoboye inama kuko bari kumureba cyane.

Abantu benshi ariko bose ntibagaragara neza, hariho babiri bahagaze, umwe w'umuhungu afite akuma bifashisha bavuga kugira ngo amajwi ye nagera ku nsakazamajwi yumvikane neza, bisa n'aho ayoboye inama, iruhande rwe hari undi mukobwa wambaye isaha ndetse ufite n'ikarita mu ijosi, iranga icyo ashinzwe kuri uyu munsi, yambaye imyenda y'umukara.

Agaseke keza cyane gapfundikiye, kari mu mabara atandukanye umweru ndetse n'umukara gateretse n'ahantu heza cyane, ni byiza ko agaseke tujya tugakoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, tugiye gusura inshuti zacu tuzitwariyemo akantu.

Itorero ryiza cyane ribyina imbyino gakondo ndetse n'abaririmbyi n'ababyinnyi baryo, bari kubyinira abantu babicaye imbere harimo n'abagabo ndetse n'abagore, hari n'umuntu uri ku bikoresho bya kizungu byifashishwa bacuranga ndetse n'umuhungu ufite imirishyo uri gukoma ingoma.

Umwirongi igikoresho gakondo kifashishwa mu mbyino gakondo ndetse n'abashumba barakifashisha iyo baragiye, bahuye cyangwa bashoye inka.

Igisoro cyangwa se ikibugoza, harimo inka nyinshi cyane aho bigaragara ko abantu bahoze bakina umwe akarya undi, ni byiza ko igihe abantu bacitse imirimo bajya bikinura igisoro bakishima aho kwishora mu byaha.

Amayogi yifashishwa biziretseho umugozi bifashisha bazirika ku kaguru kugira ngo aze kuvuga neza atava ku muntu ni byiza ko niba tugiye mu marushanwa cyane cyane ay'imbyino gakondo twifashisha aya mayogi.

Ingoma iriho imirishyo ibiri iyi mirishyo niyo yifashishwa bavuza ingoma, ingoma zikoreshwa ahantu hatandukanye nko mu birori kugira ngo abantu bishime ariko nanone zifashishwa mu marushanwa aho baba babyina imbyino gakondo.

Umukobwa mwiza cyane wambaye imyenda y'umweru ndetse ateze amaboko neza cyane nk'intore, ku ruhande rwe hariho ingoma, ni byiza ko rwose dusigasira umuco dutega amaboko yacu gutya.

Abantu batandukanye bitabiriye inama, harimo abayobozi ndetse harimo Polisi n'Abasirikare, hari kandi n'abandi babyeyi bitabiriye inama bishimye bishimiye ko babasuye, harimo n'Umudaso umwe ndetse n'abandi bantu bari kubyina n'umuntu mugufi ufite inkoni.

Abakobwa beza cyane bambaye imikenyero y'umweru, bose imisatsi yabo iradefirije ndetse bazinze n'utuntu mu mutwe. Ni byiza ko twitabaza abana b'abakobwa cyane cyane abaturuka mu karere ka nyagatare kuko aribo beza mu kubyina batega nk'inyambo, nka hamwe mu hantu umuco ukomoka cyane cyane ibijyanye n'inka.

Abakobwa babiri bari kubyina imbyino gakondo, bambaye neza cyane bya kinyarwanda, uw'imbere arishimye, bose bafite utuntu tw'umweru tuzinze mu mutwe ndetse n'urunigi mu ijosi bateze amaboko.

Abantu bari kubyina bambaye imikenyero abahungu ndetse n'abakobwa, hariho n'umuntu uri gukoma ingoma eshatu ari umwe, hariho n'abandi bari gutunganya icyuma cyifashishwa mu gucuranga, aho bari hari n'ibindi bintu byinshi bitandukanye.

Ibiganza by'abantu babiri batandukanye, byombi bifashije ku gakoresho kamwe kifashishwa bafunga amaburo igihe barimo bakora ibintu bijyanye n'amashanyarazi, ikibigaragaza n'uko hari n'izindi nsinga bigaragara ko nyine ari izo bifashisha mu mashanyarazi.

Ahantu hakorerwa ibijyanye n'amashanyarazi hariho amapoto ndetse n'ibindi bikoresho bigaragaza ko icyo aricyo cyahakorerwa. Si byiza ko abana ndetse n'abandi bantu batabyigiye bajya bishora mu bintu byo gukora amashanyarazi.

Umuntu wize ibijyanye n'amashanyarazi, yambaye imyenda y'akazi iri mu ibara ry'ubururu, yambaye n'ishati y'umweru, nta ngofero yambaye, ari ahantu hakorerwa ibijyanye n'amashanyarazi, ni byiza ko abantubize iby'amashanyarazi ari bo bajya begera aha hantu bonyine.

Abantu benshi baneza mbese hatagaragara neza ari umumama wambaye ingofero y'umuhondo iranga akazi akora kugira ngo ataza gukomereka mu mutwe yambaye n'indi myenda y'akazi afashe ku rwego hariho n'ibindi biti byinshi cyane ndetse n'inzu igaragara ariko byijimye.

Ahantu hakorerwa ibijyanye n'amashanyarazi, hari abantu benshi cyane batandukanye, bambaye bamwe ingofero z'umweru, abandi bambaye ingofero z'umuhondo, bambaye umwenda ugaragaza ko bakorera urwego rw'Igihugu rushinzwe ingufu rw'u Rwanda.

Umuhanda utarakorwa neza harimo abantu batandukanye barimo kugenda batambuka muri uwo muhanda barimo n'uwambaye umupira w'umutuku, ku ruhande rwaho hari ibiti ndetse n'imitumba, hagaragara kandi n'inzu hirya cyane ndetse n'imyenda yanitse impande y'iyo nzu.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, ari ahantu hari amapoto menshi y'amashanyarazi, bigaragara ko hano hantu ari ahantu hakomeye kuibijyanye n'umuriro ndetse no kubungabunga amashanyarazi. Uyu mugabo afite ikayi mu ntoki ndetse yazamuye n'intoki nubwo yambaye n'agapfukamunwa.

Umuhanda bigaragara ko ukirimo gukorwa, ku ruhande rwawo hari ibiti ndetse n'inzu imwe igezweho, hari kandi n'intoki ndetse n'amapoto y'amashanyarazi. Mu muhanda harimo abantu barimo kugenda muri uwo muhanda.

Ipoto rihuriraho insinga zitandukanye, abantu babiri bize ibijyanye n'amashanyarazi, buriye bari hejuru bari kureba ikibazo gishobora kubaho kugira ngo umuriro ube wabura. Ni byiza ko abantu bize ibijyanye n'amashanyarazi ari bo bajya burira amapoto y'amashanyarazi gusa.

Ahantu hahurira insinga nyinshi z'amashanyarazi, hariho umuntu wize ibijyanye n'amashanyarazi ndetse yambaye imyenda n'ingofero by'abantu bakora mu bijyanye n'amashanyarazi.

Abagabo babiri bambaye imyenda y'akazi n'ingofero z'akazi zisa umutuku imyenda bambaye isa ubururu biragaragara ko bize ibintu by'ikoranabuhanga kuko akazi barimo bakora n'ak'ikoranabuhanga ni uguhuzahuza ibyuma, ni byiza ko umwana wese ahabwa uburenganzira kugira ngo yige ibyo ashaka atize ibyo ahitatewemo n'ababyeyi.

Ahantu hagenewe ibikorwa bijyanye n'amashanyarazi ndetse no kuyabungabunga, harimo umuzungu w'umusore wambaye amadarubindi ndetse yambaye n'ingofero n'imyenda y'akazi, afite ikintu mu ntoki, afunga utuntu dutandukanye, yambaye n'amadarubindi y'umukara.

Ahantu hakorerwa ibijyanye n'amashanyarazi, hariho abantu bize ibijyanye n'amashanyarazi, banambaye imyenda iranga akazi bakora, bambaye n'ingofero, hariho imodoka ndetse n'amazi ku ruhande, harimo n'umuzungu.

Ahantu hakorerwa ibintu bitandukanye, bijyanye n'amashanyarazi ndetse no gusudira. Hariho abantu batandukanye babyigiye. Ni byiza ko icyo waba ushaka gukoresha cyose, wajya ugana uwakigiye cyane cyane ibintu by'ikoranabuhanga n'amashanyarazi.

Ahantu hakorerwa ibijyanye no gusudira hari umuntu wicaye wambaye imyenda y'ubururu ijyanye n'akazi akora undi ahahagaze imbere hariho n'inzugi zasoje gusudirwa ndetse no gukorwa hakaba hariho n'ibindi bikoresho byifashishwa muri uyu mwuga.

Ku kiraro kiri mu ishyamba ahantu hadatuwe gihagazeho imodoka ebyiri zimeze nkaho zirimo gukururana, munsi yacyo harimo ibyatsi ndetse n'amazi agenda, hakurya yaho ubona hariho ibiti byinshi cyane.

Ipoto y'amashanyarazi iriho insinga nyinshi zitandukanye. Bisa n'ho ariho insinga nyinshi zihurira. Iyi poto iramutse igize ikibazo, abantu benshi babura umuriro kandi si byiza ko hajya hurira ku mapoto abantu batabyigiye.

Ahantu hakorerwa ibijyanye n'amashanyarazi hariho abantu batanu bose bambaye ingofero z'akazi z'umuhondo, umwe ni we wuriye ari gukora amashanyarazi abandi bari hasi barimo kumufasha, batatu muri bo bambaye n'imyenda igaragaza akazi bakora.

Abantu batatu bambaye impuzankano zisa, bameze nk'aho bari guhambira cyangwa se gukora umunara. Ni byiza ko abantu bize ibintu by'amashanyarazi, ari bo bajya bakora ibintu bijyanye nayo bonyine.

Abantu bake ariko bahurije hamwe imbaraga zabo, harimo abambaye ibikapu n'ingofero mu mutwe, harimo kandi n'abandi bantu bakorera urwego rw'Igihugu rushinzwe ingufu, bafashe urusinga bari gutunganya ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi kugirango ngo ukwire ahantu hose, bari ahantu ku muhanda ariko hariho n'ishyamba.

Abantu babiri, bambaye imyenda yinzu bari gukora umurasire, bambaye imipira y'umuhondo ndetse n'amapantaro y'umukara, ufite inyundo muri bo yambaye umupira w'umuhondo ariko w'amaboko maremare, ni byiza ko niba tugiye gushyira umurasire hejuru yinzu kwifashisha inzobere muri byo.

Umuntu wize ibijyanye n'amashanyarazi yambaye imyenda y'akazi ari ku ipoto hejuru, hariho insinga nyinshi zitandukanye arimo agenda akora neza mbese azisana kugira ngo bitazateza impanuka, yambaye n'ingofero y'umuhondo. Ni byiza ko abantu bize amashanyarazi ari bo bakora ibijyanye na yo.

Inyubako nziza cyane imiryango yayo ibiri irafunguye, ikorerwamo ibijyanye n'amashanyarazi, ikikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma by'umweru, si byiza ko hano hantu hajya hajya abantu batari impuguke mu bijyanye n'amashanyarazi.

Ipoto y'amashanyarazi iriho urwego, kuri iyo poto hariho umuntu wize ibijyanye n'amashanyarazi uri kureba impamvu zituma cyangwa se zishobora kuba zatuma umuriro uteza impanuka mu baturage, ni byiza ko amapoto yurirwaho n'abantu bize ibijyanye n'amashanyarazi gusa.

Inyubako y'isoko ni inyubako ebyiri hakurya yazo hari izindi nyubako ziriho amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu ariko zo si iyi nyubako z'isoko, ni byiza ko abaturage bahabwa amasoko ndetse bakayegerezwa kugira ngo bikure mu bukene ariko nanone bifashe kugira ngo batazakomeza gukorera mu kajagari.

Inyubako igaragara igice kimwe hejuru y'iyo nyubako hariho akandi kazu gafatanye nayo. Handitseho amagambo avuga ngo ibiro by'umurenge wa Musheri, inyuma yayo hariho ibiti ndetse hariho n'utundi dukoresho tw'ikoranabuhanga, hejuru kuri ako kazu kageretseho.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye hariho n'inzugi z'umweru, imbere yayo hicayeho abantu babiri, hejuru y'inyubako hariho akandi kazu gatoya kanditseho amagambo agira ati "Ibiro by'Umurenge wa Katabagemo."

Ku ikiraro, harimo hambukaho abantu benshi cyane, biganjemo abantu bambaye ingofero z'umuhondo, bisa n'aho ari ku ishyamba.

Ibikorwa bya leta. Hari amashanyarazi, inyubako zitandukanye za leta ndetse hari n'umuhanda. Hari abantu bari kugenda mu muhanda, iruhande rw'umuntu uri inyuma hari imodoka yanditseho ngo Toyota.

Inyubako nyinshi zitandukanye zubatswe na Leta, zisakaje amabati y'icyatsi, ni inyubako zituriye umuhanda, uwo muhanda uracaniwe n'amatara meza cyane, ni umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako yanikwamo imyaka kugira ngo yume neza, mbese niho bita kuri hangari. Kuri hangari niho hashira imyaka ikuma neza, kuri iyi nyubako hapatseho igare ndetse ku ruhande rwaho hari ikigega kijyamo amazi ava kuri iyi nyubako iyo imvura iguye kugira ngo ayo mazi atangiza ibikorwa by'abaturage.

Inyubako yubatswe na Leta, yubatse ahantu heza cyane, ifite amakaro imbere, isakaje amabati y'ubururu, amadirishya n'inzugi byayo ni umweru, hirya yayo hariho amabuye ndetse na none iyo witegereje neza, iri ahantu hari ibiti mbese akayaga keza.

Ku nyubako yubatswe na Leta y'u Rwanda, yubakishije amabati y'ubururu ndetse n'amatafari ahiye, ku ruhande rwayo hariho ikigega, iyi nyubako si imwe kuko ni nyubako zirenze imwe zubatse mu bwoko bumwe.

Abantu bitabiriye inama. Umugabo umwe arahagaze afite telefone mu ntoki, ari kubwira abandi bantu. Abandi bamwicaye inyuma. Aho bari hari inzu igaragara ndetse n'insina n'indabyo z'ibiti.

Abantu bitabiriye inama cyangwa ikindi gikorwa gitandukanye gihuza abantu benshi, bamwe baricaye abandi barahagaze, bamwe bicaye ku ntebe z'ibiti abandi bicaye ku ntebe zitari iz'ibiti, hariho n'ibiti ndetse n'umusirikare uri inyuma bigaragara ko ari ku rukiko cyangwa ku ngoro y'ubutabera.

Abantu benshi batandukanye. Abagore ndetse n'abagabo. Muri bo harimo abambaye amadarubindi n'abatayambaye. Harimo abapolisi, abasirikare ndetse n'undi muntu w'umudaso. Harimo n'abandi bambaye imyenda yanditseho ngo kwibuka mirongo itatu.

Abantu bari mu nzu mberabyombi batandukanye, harimo abandi bantu babiri bahagaze harimo kandi abapolisi ndetse n'abasirikare. Imbere y'abo bantu bose hagiye hari amacupa y'amazi, kuko bigaragara ko ibintu barimo bishobora kuza gutinda.

Abantu benshi cyane batandukanye biganjemo abagabo, harimo umugabo umwe ufite agacupa mu ntoki ndetse undi yambaye ingofero, bari kwifotoreza ku nka bigaragara ko niba itarwaye bagiye kuyiha umuntu utishoboye.

Abantu benshi cyane, bamwe baricaye abandi barahagaze, bamwe bambaye bote abandi bambaye bodaboda, hari umugabo wambaye ishati y'umutuku n'isaha ndetse n'impeta ku rutoki, afashe akuma kifashishwa bavuga, ari gutanga ikiganiro cyangwa igitekerezo, bisa n'aho bano bantu bari mu muganda kuko hagaragara n'isuka.

Abantu batandukanye bagiye ku ngoro y'ubutabera, harimo abasirikare batatu ndetse n'abacungagereza babiri, si byiza ko umuntu arenganywa igihe hari umuntu wamurenganura.

Abantu batandukanye bitabiriye inama ku kigo cy'ishuri bari mu nzego zitandukanye gusa imbere yabo hariho umuyobozi uri kubaganiriza kugira ngo abahe amabwiriza bazajya bagenderaho mu byo bakora bya buri munsi bitewe n'insanganyamatsiko bari kuganiraho.

Abantu batandukanye bitabiriye inama bisa naho bari ku ngoro y'ubutabera kuko baratuje baje, kureba uko umuntu aburana kugira ngo barebe niba uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa, bose bateze amatwi.

Abantu bitabiriye inama, abenshi baricaye, uhagaze ni umugabo umwe, ufite akuma bifashisha bavuga kugira ngo bumvikane ku bantu benshi, ahagaze imbere y'abantu n'uruhande rw'icyapa bifashishije kugira ngo bamamaze umunsi mpuzamahanga runaka.

Imodoka ihagaze ku mapave imbere y'inzu itagaragara neza ifite amabara y'umweru, ku ruhande rw'imodoka hariho moto ndetse n'umuntu hirya wicaye ku nzu uri kwitegereza iyo modoka, ni byiza ko tuzajya duparika ahabugenewe.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka imwe impande zombi hariho aho abanyamaguru bambukira, ku ruhande rumwe harimo umuntu umwe ahandi ku rundi ruhande harimo abantu babiri umuhungu n'umukobwa, nanone ku ruhande rw'umuhanda hari amazu atandukanye, ibiti ndetse n'amapave.

Ku muhanda, ikibigaragaza ni uko hari icyapa kiriho igishushanyo cy'imodoka mbese aho imodoka ziparirika, impande yacyo hari ibiti bitandukanye ndetse hirya yaho hari n'andi mazu atandukanye.

Aho imodoka ziva ndetse n'izijya Nyagatare ziparirika muri gare ya Nyagatare binanditseho hejuru imbere ya gare hari umumotari uhagaze utegereje umugenzi umuri ku ruhande bisa nk'aho bari kumvikana uwo mugenzi yambaye umupira w'ubururu ndetse n'umusatsi we uradefirije cyane inyuma y'uwo mugenzi hari umukobwa mwiza cyane umeze nk'umwisiramu.

Abantu batandukanye biganjemo abaturage basanzwe ndetse n'abandi bayobozi mu nzego zo hejuru, harimo umupolisi umwe wambaye imyenda y'akazi, harimo kandi n'umusirikare umwe wambaye imyenda y'akazi, harimo aba DASSO ndetse n'abandi bantu bose bari guhinga.

Abantu benshi batandukanye, bahagurutse ku ntebe zabo, harimo umusirikare umwe uri gukoma amashyi yabumbuye umunwa, iruhande rwe hariho abandi bantu harimo n'uwambaye ingofero y'umukara, hari n'umuntu ugaragara ukuboko wazamuye akaboko ke.

Umupolisikazi, afite inyenyeri ebyiri. Yifashe ku kananwa imbere ye hari mudasobwa, afite n'ikaramu mu ntoki. Ku meza ariho mudasobwa hariho na telefone. Ahantu ari hariho inzugi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Bisa naho yumiwe.

Abantu bitabiriye inama, iruhande rwabo hari icyapa cyanditseho amagambo menshi arimo n'ijambo imbuto ndetse n'ibindi bishushanyo, hari umugore wambaye ikanzu y'igitenge, ufite akuma kifashishwa mu kuvuga, ku ruhande rwe inyuma, hariho n'umugabo umeze nk'utuzuye ndetse n'umugore wicaye.

Abantu bo mu nzego zitandukanye. Bari mu gikorwa cyo kubaka. Bisa n'aho ari mu muganda ariko ukorwa n'inzego z'umutekano. Hari umusirikare, abapolisi, abadaso ndetse n'abaturage. Ni byiza ko dufatanya mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo twubake u Rwanda twifuza.

Abantu benshi cyane, bahuriye mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, bambaye n'iyenda iranga icyo gikorwa, ni abagabo, abagore, abana ndetse n'abakuze, ni byiza gukora imyitozo ngororamubiri.

Ku kibuga cy'umupira w'amaguru hariho abakinnyi bambaye imyenda itandukanye iranga amakipe bakinira, hari abambaye iy'umuhondo ndetse n'iy'ubururu buvanzemo utundi tubara tw'umukara, hariho umuzamu ndetse n'umukobwa bambaye imyenda ijya gusa umutuku ndetse n'abandi bantu batandukanye.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, ntabwo wamenya gutandukanya umuntu n'uwundi ngo uyu se ni umugabo, uyu ni umugore kuko bambaye imyenda yagenewe gukora imyitozo ngororamubiri, bari inyuma y'ahantu hagenewe kwicara abatoza ndetse n'abakinnyi basimbura.

Mu ikibuga, harimo abantu babiri, umugabo n'umugore, iki kibuga ntikigezweho n'ubwo kizitijwe n'ibyuma kuko nta ntebe ziriho, umugabo yambaye amadarubindi, umugore we afite telefone mu ntoki.

Umukinnyi mwiza cyane w'umuhungu, yambaye imyenda yifashishwa mu gukina umupira y'ubururu ndetse ivanzemo utundi tubara, yifashe ku gutwi n'akaboko kamwe, inyuma y'ikibuga hari ibyatsi ndetse n'inyubako zitandukanye hagaragaraho n'ibiti, muri iki kibuga ntabwo ari ikibuga kigezweho.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri. Bose bahuriye ku gikorwa kimwe. Inyuma yabo hari ikibuga, hari n'abandi bantu bicaye muri icyo kibuga.

Abantu benshi batandukanye bambaye imyenda yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Bari kuyikorera mu muhanda wa kaburimbo, kandi uwo muhanda uriho amatara bisa n'aho ari mu rukerera.

Mu kibuga kitari bimwe mu bibuga bigezweho kuko nago harimo ubwatsi bwabigenewe. Harimo abakinnyi batandukanye, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'imituku. Ku ruhande rw'ikibuga hari ibiti ndetse n'abafana bake.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri. Bari ahantu bageneye kuyikorera. Imbere yabo harimo habasanga undi muntu umwe. Bari ku ruhande rw'ikibuga c'umupira nk'uko bigaragara.

Ku kibuga kigezweho harimo abakinnyi benshi bari gukina umupira bamwe basimbutse kuko umupira uri hejuru abandi bahagaze hasi bambaye imyenda y'umuhondo n'ubururu aho abantu bicara nta bantu barimo ndetse ku kibuga aho ngaho hariho n'amamoto aparitse ku ruhande.

Abantu benshi cyane, bari mu myitozo ngororamubiri, bambaye n'imyenda ijyanye n'icyo gikorwa. Bisa n'aho ari mu rukerera kuko amatara aracayaka ndetse bigaragara ko n'igicuku kikirimo ntabwo buracya neza.

Abakinnyi b'umupira ndetse n'abasifuzi babo, bamwe bambaye imyenda y'ubururu, abandi bambaye imyenda y'umuhondo, abasifuzi babari imbere na bo bambaye imyenda hejuru y'icyatsi, abakinnyi ku mpande zombi umwe umwe uri imbere, afashe ku cyapa bari kugenda bamamaza.

Abakinnyi bari ku kibuga muri bo harimo uwambaye uturindantoki mu ntoki mbese ni umuzamu, yambaye n'imyenda y'umuhondo, abandi bambaye imyenda itandukanye ariko imipira yabo bombi irimo ibara ry'ubururu, hakurya yabo usibye izamu riri mu kibuga hari n'izindi nyubako.

Abakinnyi ndetse n'abandi bantu batandukanye, abakinnyi bambaye imyenda ya siporo, abandi bantu na bo bahagaze ku ruhande hari n'abandi bantu benshi nyuma yabo bigaragara ko ari abafana hanyuma ariko abakinnyi bigaragara ko bari mu bukangurambaga kugira ngo barebe ko urubyiruko bahinduka bakareka kwishora mu ngeso mbi.

Ku ikibuga abakinnyi bari mu kibuga barimo barakina, buri wese yambaye imyenda ijyanye n'ikipe akinira kuri iki kibuga nta ntebe zashyiriweho abafana.

Abakinnyi benshi batandukanye harimo n'umuzamu ufite ibikoresho yambara mu ntoki kugira ngo afate umupira, aho bakiniraga hariho n'abandi bantu benshi cyane batandukanye biganjemo abana b'abanyeshuri bafite amakayi bose bakoraga siporo irarangiye.

Mu ikibuga harimo abantu batatu babiri bambaye imyenda isa yifashishwa mu gukina umupira isa ubururu ariko buvanzemo utundi tubara hariho n'undi wambaye imyenda y'umuhondo ku ruhande rw'ikibuga nta ntebe ziriho mbese ntabwo iki kibuga cyari cyubakwa neza.

Ikibuga ntabwo cyubatse neza mbese si kimwe kigezweho. Harimo abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'abandi bambaye imyenda y'umutuku. Abasifuzi bo bambaye imipira yabo isanzwe ndetse n'utundi twenda bahawe tw'icyatsi kibisi. Umuzamu umwe yambaye imyenda y'umuhondo mu gihe undi muzamu we atagaragara neza ariko yambaye umwenda w'ubururu.

Umuntu uri kugenda mu muhanda utari uwa kaburimbo, urimo imikuku yatewe n'amazi atemba muri uyu muhanda, iyo imvura iguye. Ni umugabo, yambaye ishati y'umweru, ku ruhande rw'umuhanda hariho amazu ndetse n'ibiti n'ibyatsi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo amabara y'umweru atandukanye imodoka iza ndetse n'igenda, ku ruhande rwaho hari umuhanda w'abanyamaguru, no ku rundi ruhande hari undi muhanda w'abanyamaguru.

Umuhanda wa kaburimbo muremure urimo amabara y'umuhondo, kuruhande rwaho hari amatara yo kumuhanda, mu muhanda kandi harimo imodoka ebyiri imwe iri imbere isa umutuku hanyuma indi modoka iri inyuma ni akamodoka gatoya mbese utumodoka dukunda gutwarwa n'aba mama kuruhande rw'umuhanda hari n'abandi bantu barimo ufite igare.

Umugabo wogoshe uri mu muhanda ugezweho wa kaburimbo, uyu mugabo afite akantu mu ntoki ko gutwaramo ibintu bitandukanye aho ameze nk'uvuye mu isoko, ari kureba inyuma kugira ngo arebe niba nta modoka iriyo, cyangwa ikindi kintu cyamugonga abone yambuke umuhanda.

Mu muhanda w'amabuye harimo umumotari uri kuri moto yambaye ikasike y'ubururu, imbere ye hari umuntu uhetse ibitoki ku igare ari kurisunika, ku ruhande rw'uyu muhanda w'amabuye hari amazu y'ubucuruzi afite amabara atandukanye, hariho ndetse n'igiti.

Umuntu ashyize telefone ye ku gutwi arimo kugenda, ari mu muhanda urimo imyanda ntabwo ukoze neza, ku ruhande rwabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umuhanda ugezweho wa kaburimbo, harimo abantu benshi barimo abanyonzi babiri bari kugenda mu muhanda, iyo witegereje neza ubona harimo n'indi modoka iri kuza igana aho abanyonzi barimo kuva, ku ruhande rw'umuhanda hari amazu ndetse n'amapoto y'amashanyarazi hakabaho n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo harimo umuntu umwe uri kuri moto yambaye bote n'ikoti ry'umukara ndetse na kasike y'umutuku, iruhande rw'umuhanda hari ibiti ndetse n'umukingo bigaragara ko iyo witegereje neza muri ibi biti hari amazu afite inzugi zifite irangi ry'ubururu ziri kugaragara hirya.

Umuhanda mubi. Harimo abantu bari kugenda. Harimo n'umuntu ufite isuka ku rutugu. Ku ruhande rw'umuhanda hariho amazu ndetse n'ibiti by'indabo.

Umuhungu w'urubyiruko afite indobo mu ntoki bigaragara ko ari kugenda acuruza utuntu dutandukanye, yambaye umupira w'icyatsi umusatsi afite ni mwinshi ndetse yikoza ku gutwi ikindi kandi yambaye n'inkweto z'umuhondo. Kuri uwo muhanda ahari kunyura hariho amazu atandukanye menshi kuburyo abakinnyi ashobora kuba ari kubabona.